Abagabo babiri bari kuganira, bari kumwe n'umugore umwe, bafite amazi mu ducupa twa nili, bafite mashini imbere yabo ya laputopu, bari guseka, barishimye, umwe yambaye amarinete undi afite imisatsi myiza mbega baragaragara nk'abanezerewe.

Umunara muremure uri ahantu hameze nko mu kirere usize amabara y'umutuku akira icyumweru n'ubururu ibyatsi bisa naho hari igufu ukuntu urukinga rw'umukara rutambuka hafi n'umunara ni ahantu hasa neza hameze neza cyane.

Umuntu wambaye imyenda y'umweru umutuku n'umukara inzu nziza ifite igisenge iri mu gipangu yegeranye n'indi hafi yayo akazu ka emutiyeni, ibyatsi mu muhanda, amabuye, ibiti birebire, insinga z'umuriro.

Inzu ishaje imaze igihe kirekire amadirishya ane amabati ashaje maremare, ipoto rirerire n'insinga z'umukara, ikirere gisa neza cy'amabara y'umukara n'umweru, inzu yamezeho ibyatsi isa nabi imaze igihe kinini cyane idakorerwa amasuka.

Imodoka nziza iri ahantu heza hafi ya moto, moto iparitse ahantu heza hari amabara yumukara hari amabara yumweru icyatsi kibisi hari indabyo nziza indabyo z'umuhondo hari n'akantu gato k'ubururu ndetse n'ibiti byiza birebire bimeze neza haronnze umucanga n'ahantu hafite isuku hameze neza cyane.

Abantu babiri bari mu busitani bw'indabyo nziza, ibiti byiza birebire inzu zubatse neza zisize amabara atandukanye, amabara y'umweru, amabara y'umukara, umuhanda mwiza w'amabara atandukanye, amabara y'umweru, n'amabara y'umukara wubatse neza.

Kimironko kwa Nyanzira ahantu heza cyane hubatse amazu meza atandukanye ibiti byiza birebire by'amabara y'icyatsi kibisi amazu asakaye neza afite amaba y'umuhondo umutuku n'umukara ikirere gisa neza urutsinga rw'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda mwiza w'umukara ucamo ibinyabiziga imodoka nziza yumukara ifite amapine ane moto itwaye umugenzi amabara y'umweru amabara y'umukara icyatsi kibisi, ibiti birebire imitako, indabyo mu muhanda ahantu hubatse neza hari ikirere cyiza.

Imodoka iparitse muri kaburimbo ,umuhanda w'umukara hari ibiti hari n'icyapa kiriho amabara y'umutuku ndetse n'umweru hari abantu bari kwambuka umuhanda n'abamotari bari mumuhanda bahagaze bategereje ko bambuka umuhanda .